Abayobozi bari mu nama bicaye ku meza atandukanye, buri wese afite ibitabo imbere ye n'icupa ry'amazi; bateze amatwi bari kumva ibyo bari kubwirwa batuje, kandi bareba uri kubabwira imbere yabo.

Umuntu uhagaze arimo abasobanurira ku ngingo runaka akoresheje uburyo bw'amashusho n'amafoto kugira ngo babashe gusobanukirwa, ibyo ari kubasobanurira byumvikane.

Urubyiruko rwicaye ahantu hamwe, rutuje, ruteze amatwi, rutegereje kumva icyo rubwirwa basa nk'abari mu nama, bategereje kumva amakuru runaka, umuntu uyabaha, abantu batandukanye.

Abantu benshi iyo bagiye kubwira imbaga nyamwinshi bifashisha indangururamajwi. Uyu mumama wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'isakoshi y'umukara, ubanza akunda ibara ry'umukara niko yabikoze. Mubyukuri buri wese ahari arabasha kumva nta nkomyi nta n'imbogamizi.

Iminara idufasha kongera itumanaho ku buryo bworoshye, tukabasha gutumanaho mu buryo bwihuse, bikadufasha kubona mu buryo bworoshye amakuru, bikihutisha iterambere.

Imodoka iparitse imbere y'ubucuruzi, amazu y'ubucuruzi atandukanye afite imiryango itandukanye kandi akorerwamo ibintu bitandukanye, imodoka y'umukara iparitse ireba muri iyo miryango y'ubucuruzi.

Abantu bari kwirukanka mu muhanda, bameze nk'abari gusiganwa n'igihe cyangwa basa n'abakererewe kujya aho bashakaga kujya, nk'abashaka kujya mu kazi, bakaba bakererewe amasaha akaba yabafashe, basa n'abari kwiruka bajya gufata bisi, igiye kubacika.

Abantu bambaye impuzangano z'imfungwa n'abagororwa, bigaragaza ko ari imfungwa, bavuye mu mirimo ya buri munsi, aho bafungiye mu bikorwa by'isuku, bafite amasuka n'imifuka n'ingorofani.

Inkiko gacaca zashyizweho nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo zibashe gufasha abaturage b'abanyarwanda kwiyunga no gukemura ibibazo bari bafitanye nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi, igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane.

Ibitaro bya polisi biherereye Kacyiru, bifasha kuvura abantu, indembe, abakomeretse, uburwayi butandukanye, iherereye Kacyiru, epfo ya polisi.

Kizimyamuriro ni igikoresho bakoresha iyo bari kuzimya inkongi, n'iyo hari ahantu hahiye bagikoresha bari kuzimya ubutabazi bw'ibanze, bashaka kuzimya umuriro kugira ngo ubashe kuba wazima vuba hatabaye izindi mbogamizi, bitagoranye.

Igipangu gifite urugi rwo ku gipangu rufite rubonerana rwerekana imbere harimo imodoka ziparitse mu gipangu z'ubwoko butandukanye zigaragaza n'amabara atandukanye.

Urwego abantu barukoresha mu mirimo itandukanye, nk'abubatsi iyo bari kubaka ahantu badashyikira, abantu bakora imirimo y'amashanyarazi iyo bari kurira amapoto bashaka kumanika insinga n'ibindi.

Imodoka nini ya rukururana ihetse kontineri y'umukara, irimo izamuka mu muhanda ibisikana n'umunyonzi umanuka, imodoka ifite igitwe cy'umweruru, iri mu muhanda wa kaburimbo, imodoka zimenyerewe gutwara imizigo.

Icyapa cyerekana aho umuntu ageze kikwereka ko ugeze mu murenge wa Giheke kugira ngo utaza kuba wayoba cyangwa ukaba wakibeshya aho uri, wenda ushaka nko kurangira nk'umuntu cyangwa ushaka nko kurangisha ku buryo byakorohera kumenya aho uherereye.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana umuvuduko ntarengwa wo kugenderaho, kuri mirongo ine, gishyirwa mu muhanda kugira ngo kereke abatwara ibinyabiziga umuvuduko ntarengwa kuba bagenderaho batarenza mu muhanda, kandi bakawugenderaho bagendeye kuri icyo cyapa.

Pariki nyandungu iherereye mu mujyi wa Kigali, aho abantu bashobora gutemberera mu gihe bafite umwanya, bakeneye ahantu hatuje hariri akayaga mu biti, iherereye mu mujyi wa Kigali, ahitwa nyandungu.